Umugabo ni umuhinzi wabigize umwuga kuko afite uburyo butandukanye yita ku bihingwa bye, akaba ahinga ibihingwa bitandukanye aho ahetse ipombo ari kugenda abitera umuti.

Umugabo akaba umuhinzi wabigize umwuga .Ari kuvomerera ibigori bikuze cyane bisa naho byeze, aho yifashishije agapombo kabugenewe. Ariko hirya ye hari abandi bantu bari guhinga ndetse n'abari gutembera.

Imiti itandukanye igiye iri mu macupa ari mu moko atandukanye, hari: ay'umweru, umuhondo, umutuku n'umukara, inyuma yayo hakaba hari ipombo y'umuhondo, zose zikaba zitondetse ku meza aho zikoreshwa mu gufuhira imyaka.

Umugabo w'umuhinzi kabuhariwe akaba yambaye ingofero ndetse ahetse ipombo mu mugongo, aho ari kugenda acucira umuti mu muceri kugira ngo ibyonnyi birimo bipfe.

Ikiyaga kiza cyane kikaba kirimo amafi menshi cyane ariko afite ikibazo cyo kuba yapfuye, kuko ari kureremba bisa naho yahumanyijwe n'umuntu utazwi.

Abagabo babiri babigize umwuga. Akaba ari abarobyi badasanzwe aho bari kugenda baja bajabagira mu mazi nuko bagafata amafi ari mazima. Umugabo umwe yafashe ifi ari kuyitwereka.

Abagabo batandatu bambaye imipira y'amaboko magufi bose akaba ari abarobyi babigize umwuga, aho bafite ubwato ndetse bakaba bafite n'agatimba ko kuroberamo amafi muri kino kiyaga.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bari ku cyuzi aho bamwe muri bo bagiye mu mazi bakaba bari kuvomera mu bicupa abandi bakaba bahagaze hejuru y'amazi babarebera, inyuma yabo hakaba hari imbwa iri gutembera ndetse hirya hari agashyamba karimo ibiti bito.

Umukobwa wambaye neza cyane ipantaro isa n'umupira, akaba afite ururobo rwabugenewe aho ari kugenda akoza mu mazi nuko akazamura amafi.

Umugabo akaba n'umurobyi wabigize umwuga, yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi akaba ateruye ibase y'icyatsi irimo amafi menshi cyane avuye kuroba, dore ko aseduka buri museso ajya kuroba muri bino byuzi ibye.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikoboyi n'ipantaro y'ikoboyi, yambariye mu nda agapira k'umweru, akaba afite agatete akoresha aroba ifi muri ibi byuzu bye afite mu rugo iwe, aho mu gatete harimo ifi imwe yarobye.

Abagabo b'abarobyi babigize umwuga, bari gutega amafi mu mazi atemba, aho bitwaje ururobo ruzwi cyane nk'agatimba bashyira mu mazi noneho bagaterura bagasanga hagiyemo amafi.

Abantu bane bose bambaye amajire y'umuhondo, bakaba bahetse mu mugongo ibitete byabugenewe bikoreshwa mu gusoroma icyayi, bakaba bari gusoroma icyayi ku musozi wose ari bane bonyine.

Imisozi myiza cyane iriho amaterasi y'indinganire ihinzeho icyayi yose yose ndetse hagati hakaba hagiye harimo imihanda inyuranyuranamo abantu ndetse n'ibinyabiziga banyuramo iyo baje gusoroma icyayi.

Abagore babiri akaba ari abahinzi babigize umwuga, akenshi bakaba bahinga ibihingwa ngandurabukungu, aba rero ubu bitaye cyane ku ikawa, aho bari kuyisoroma bashyira mu bitebo byabugenewe kugira ngo bajye kuyigurisha.

Umurima munini w'ikawa, ikawa zimwe zirasa n'umutuku, bisa naho zeze izindi zikaba zigisa n'icyatsi, ari ibitumbwe, uyu akaba ari umurima wahinzwe ku bufatanye na leta n'abaturage mu buryo bwo guteza imbere, ibihingwa ngandurabukungu.

Amaterasi y'indinganire, ari ku misozi iteganye myiza cyane, akaba ari imisozi ihinzeho icyayi, icyayi akaba ari n'igihingwa ngandurabukungu giteza imbere abanyarwanda.

Umugabo wa agatambaro mu mutwe akaba yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi aho ari gutembera mu murima we w'icyayi, nta gitebo yazanye ngo asorome icyayi ariko icyari kirenze ashaka yakongera akagaruka mukanya.

Abagore bane n'umugabo umwe, ni abahinzi babigize umwuga, aho buri wese afite agasuka ndetse akaba ari kubagarira umuceri kugira ngo uzere neza udafite amahuri.

Abagore batandatu ni abahinzi kabuhariwe babigize umwuga. Bakaba bafite ibitebo mu mugongo byabugenewe, bakoresha basoroma icyayi. Bari kugisoroma rero kugira ngo, bajye kukigurisha babone amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro by'umukara, yambaye ingofero akaba yikoreye umufuka munini cyane ubona ko uremereye aho avuye gusarura ibijumba, akaba imbere ye hari n'umunzani agiye gupimaho ibyo yikoreye.

Ibimera byinshi cyane byarinajwe biracyari mu bihoho aho ubona ko ari imbuto nziza itohagiye yafashwe neza, hagati hakaba hateye ibiti byinshi cyane birebire by'igazamarumbo ubona bishishe nk'aho byitaweho neza.

Umugore wambaye igitenge akaba yambaye umupira w'amaboko maremare yiteze n'agatambaro gatukura mu mutwe, akaba ari gusoroma icyayi mu gatebo kabugenewe kugira ngo ajye kukigurisha, abone amafaranga amutunga mu rugo rwe.

Umugore ukenyeye igitenge ndetse akaba yiteze agatambaro ndetse n'abagabo babiri bambaye amakoti, bose bafite ibitebo byakameje aho bari gusoroma icyayi mu mirima kugira ngo bajye kukigurisha.

Umugore akaba n'umuhinzi wabigize umwuga, ahinga igihingwa ngandurabukungu k'ikawa akaba ari gusoroma ikawa ye y'ibitumbwe kugira ngo ajye kuyigurisha abone amafaranga.

Abantu benshi cyane, bakaba bahinga ikawa nk'igihingwa ngandurabukungu, basoromye ikawa yabo bakaba bayizanye aho bayisera, bayitonorera. Imwe bayisutse hasi, indi ikaba iri mu ndobo ndetse no mu ibasi.

Ahari amakarito menshi cyane harimo atatu y'ubururu ndetse n'andi menshi y'icyatsi ariko afite ibara ry'umweru, icyo ahuriyeho ni uko yose ashushanyijeho inka akaba arimo imiti ivura inka.

Ibi ni ibikarito ndetse n'amapaki ari mu bwoko butandukanye, hari igipaki cy'umweru gikozwe mu ishashi ndetse n'ibikarito biri mu mabara y'ibyatsi ndetse n'umuhondo. Ku ruhande hari rozwara ebyiri, ibi bikarito bikaba bibikwamo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Amacupa menshi cyane ya palasitike, akaba asa n'umweruru ndetse buri cupa rikaba ririho igipapuro cy'umweru kigaragaza umuti uririmo iryo cupa, akaba ari amacupa arimo imiti y'amatungo.

Agacupa karekare cyane, karasa n'umweru, gapfundikishije umupfundikezo utukura, akabaka azengurutswe n'igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, aho ari agacupa karimo imiti, ifashishwa mu kuvura amatungo.

Udupaki tw'udushashituri mu ibara ry'umuhondo hejuru hakaba hari ibara ry'umutuku, harimo n'udufite ibara ry'icyatsi, akaba ari udupakiye tubikwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa zo mu rugo ndetse n'iz'agasozi.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye byiganjemo imiti y'amatongo, harimo imiti irimo mu macupa asa n'umuhondo afite igipapuro cy'umweru gifite n'ibara ry'umuhondo ku ruhande, akaba ari macupa y'icyatsi ndetse n'iri mu bicupa by'umweru.

Imiti itandukanye, ikaba iri mu bikarito by'umweru, hakaba hari iri mu gicupa cy'umutuku ndetse n'indi zose zikaba ziri muzu imwe, aho ari imiti ihabwa inyamaswa.

Amacupa menshi cyane, ari mu ibara ry'umweru aragereke, aho yose arimo imiti itandukanye ihabwa inkoko, yaba inkokokazi ndetse n'amasake kugira ngo zirusheho kubaho neza.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo imiti itandukanye, aho hari imiti ivura inyamaswa. Hari utudomora turimo imiti y'umutuku y'amazi ishushanyijeho inka, ndetse n'ibindi bikombe birimo imiti, n'abyo bishushanyijeho inka, ingurube, ndetse n'intama.

Umugore w'umuhinzi wabigize umwuga ndetse akaba n'umworozi, yambaye igitenge yagikenyeye ndetse n'isutiye hejuru, afite ihene ari kuzirika mu kinani kugira ngo irishe.

Umugabo w'umusaza. Yambaye ipantaro yayizinze, akaba yambaye isengeri y'umukara. Ari guhinga mu murima kugira ngo abone uko ahatera imyaka, hirya ye yahinze kera ndetse akanahatera inzuzi.

Ahantu hororerwa ibimera bikiri bitoya, hazwi nka pepinyeri hakaba harimo abantu batatu bari kubungabunga izi mbuto kugira ngo zibashe gukora neza, bazazijyane ku zitera mu mirima migari.

Amahene menshi cyane yiganjemo amahene akuze kandi afite ibara ry'umweru, akaba ari mu kibuga kinini cyane n'ayari menshi, imbere yayo hakaba hari abantu biganjemo aborozi bayo bari kuyareba ndetse hakaba hari n'inzego z'umutekano.

Abasore bakiri bato bari kumwe n'abagabo, bamwe muri bo bambaye amajire, aho bicaye hasi mu ishyamba nyuma y'uko bari bamaze guhinga bakaba barimo kuganirizwa n'umugabo nyiri umurima bahingiraga.

Indobe eshatu zirimo ibirayi byuzuye ndetse n'icyuma cy'ikoranabuhanga, akaba ari imashini ikoreshwa mu gukura ibirayi, ubona ko ari ibirayi byiza cyane, byari byarahiganywe ifumbire ndetse bikaba byarakuze bikaba binini cyane.

Umurima munini cyane w'ikibaya. Ukaba warahinzweho ibigori bikiri bito, aho ba nyiri iyo mirima bahuje ubutaka kuko ibigori byose biriho birangana. Bikaba bifasha abahinzi kubona umusaruro mwiza birinda ibyonnyi.

Ku muhanda wa kaburimbo aho munsi y'umuhanda hari inzira y'abagenzi, ariko hepfo yaho hakaba hari umugenda uteyemo umucaca. Munsi y'umugenda hari umurima munini cyane uhinzemo imyumbati ndetse n'ibijumba.

Imirima iri mu kibaya irimo ibihingwa bitandukanye. Yaba ibihingwa ngandurarugo ndetse n'ibihingwa ngandurabukungu. Hakaba hari umuhanda munini cyane w'igitaka. Aho ibinyabiziga bije gusarura no gutwara iyo myaka binyura.

Ibimera bitandukanye birimo ibitunguru ibishyimbo, ndetse n'imboga za dodo bikaba bihinze ku karima k'igikoni, aho abagize umuryango bajya kubisoroma bakabiteka ku buryo kongera indyo yuzuye.

Umurima mwiza cyane, umurima uhinzemo igihingwa cy'umwumbati aho hari hahinzemo ibigori ariko bakaba babiranduye mu buryo bwo kubungabunga umwumbati kugira ngo uzakure neza uri wonyine.

Imisozi myiza cyane iriho inzu eshatu z'umuco gakondo, inzu imwe ikaba iri kuvamo umwotsi isa n'aho abayituyemo bari guteka aho ari inzu zubatse rwagati mu ishyamba.

Iimisozi miremire aho hepfo hari ikibaya kiza cyane gihinzemo ishyamba ndetse n'igihingwa cy'urutoki, akaba urutoki rutoshye cyane kuko ruri mu kibaya kandi rugerwaho n'amazi.

Ni icyayi gihinze mu kibaya haruguru y'icyayi hari umuhanda uri kugendamo abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, haruguru y'umuhanda hakaba hari ishyamba ryiza cyane ritohagiye.

Umurima munini cyane urimo ibyatsi bitandukanye ndetse hakurya yawo aba hari amashyamba arimo ibiti biri mu rugero bitari birebire cyane. Aha akaba ari ahantu bahamura imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Umurima mwiza cyane uriho ibimera bitandukanye byiganjemo ibigori ubona bikuze cyane biri hafi kwera, iruhande rwaho hakaba hari ikinani aho nyiracyo yahatwikiye ibintu byinshi akaba yari hafi no gutwika umusozi.

Amashyamba meza cyane, ni amashyamba atoshye cyane kuko turi mu bihe by'imvura akaba arimo ibiti bitandukanye by'inganzamarumbo, aho ari ibiti bikoreshwa bibazwa ndetse ibindi bigakorwamo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu.

Ishyamba rinini cyane, rigizwe n'ibiti birimo ibigufi n'ibirebire. Hakaba ku ruhande hari umurima uhinzemo imbuto zitandukanye ndetse n'ibihaza, hakaba harimo n'ibigori bibiri.

Ishyamba ryiza cyane, riratoshye. Akaba ari mu gihe cya mu gitondo, cya gasusuruko. Ubona ko izuba riri kurasa nta kibazo. Iri shyamba ririmo ibiti binini cyane by'inganzamarumbo, bikoreshwa cyane cyane babibazamo imbaho, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibihingwa bitandukanye byiganjemo inyanya, nziza cyane z'ibihuri, bakaba babizanye ku isoko aho bari kubigurisha, ni umugore ukenyeye igitenge, wambaye umupira w'imashini w'amoboko maremare, afite amafaranga ibihumbi bitatu mu ntoki, bisa naho amaze kugurisha umugabo izi nyanya.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa bikiri bitoya, aho ubona ko bahuje ubutaka kuko ni ibihingwa bireshya byose biri mu kigero kimwe, hakurya yabyo hakaba hari ishyamba rinini cyane rirmo ibiti by'inganzamarumbo.

Umurima munini cyane uteyeho ibishyimbo bigufi, ukaba ari umurima wahujwe ku ubufatanye na Guverinoma kugira ngo ubashe guhinga ibishyimbo byinshi cyane icyarimwe.

Ubusitani bwiza cyane, hagati yabwo hari inzira nyagenzi. Mu gihe ubusitani hahinze ibihingwa bitandukanye byiganjemo indabo, hakaba harimo n'ururabo rurerure rw'umutuku.

Ibihingwa byiza cyane by'inyanya bikaba ari ibihingwa ngandurarugo aho byahinzwe na koperative bihingwa ku butaka bunini cyane. Izi nyanya zireze ziratukurije ku buryo zigeze igihe cyo gusarurwa.

Abantu biganjemo abagore n'abana. Bakaba bari ahantu hororerwa ibimera bikiri bito, aho bishyirwa mu ibihoho bakabivomerera bigakura neza, mbere y'uko bajya kubitera mu mirima aho bizakurira.

Uburyo bushyashya bwo gukora ivomerera, akaba ari imashini ifite amapine aho ifite uduhombo twinshi cyane igenda mu murima turi gucucira amazi mu bihingwa byiganjemo iby'ibigori.

Imashini nziiza cyane. Iri kuvura amazi menshi ,aho baba bacometse igihombo mu mugezi ,akaba ari n'ikindi gihombo gikora ku mashini gisohora amazi. Akaba ari uburyo bushya bwazanywe bwo kuvomererira imyaka muri uyu mwaka.

Umusore muto, yambaye ishati y'amboko maremare, akaba ari kuvomerera imyaka ye yahinze, kugira ngo irusheho gutohagira. Ari kuvomerera, afite igihombo cy'amazi, aho ari kugenda acyimukana hirya no hino, bidasabye ko avoma mu majerekani cyangwa muri rozwari.

Umugabo akaba n'umuhinzi wabigize umwuga ari munsi y'urugo rwe, inzu isakaje amabati, munsi y'urugo hateye insina ndetse n'ibisheke, akaba ari kuvomerera imbuto zitarakura kugira ngo zimere zikimeze neza.

Umwana mutoya cyane, akaba ari kuvomerera ibigori bikiri bito ariko biteye mu gihugu bwa kijyambere, afite igihombo ki kuvomo amazi aho yazanye n'imashini ikurura amazi.

Umugore akaba ari umuhinzi wabigize umwuga, yambaye ijipo n'ishati bisa akaba ari kuvomerera imboga z'amashu mu buryo bugezweho, aho azana umurasire utanga umuriro agacomeka ku mashini ikurura amazi noneho akavomeza akoresheje impombo.

Ikibaya kinini cyane kirambuye kirimo ibihingwa bikiri bitoya byose bingana kuko ba nyirabyo babiteye umunsi umwe, kuko bahuje ubutaka harimo uburyo butandukanye bazajya bifashisha wivomerera, aho bafashe ibihombo babishyira hejuru y'umurima wose akaba afungura amazi akinyanyagiza mu ibihingwa.

Uburyo bushya bwo kuvomerera imyaka ni igihombo kirekire cyane kirambuye mu murima ariko kikaba kigiye kirimo utugezi duto duto, aho ufungura amazi icyarimwe nuko utugezi tugahita tunyanyagiza amazi mu bihingwa bikiri bito.

Imisozi myiza cyane ikikije umugezi wa nyabarongo, ikaba iteyeho urutoki, ibigwa bitandukanye ngandurarugo, ndetse hakuno hakaba hari amashyamba arimo ibiti byiza cyane by'inganzamarumbo kandi bishishe.

Imisozi miremire imisozi myiza cyane iriho amaterasi y'indinganire, ikaba ihinzeho icyayiruguruicyo icyayi, haruguru y'icyo cyayi hari amashyamba y'ibiti atohagiye cyane, mu gihe hakurya ku w'undi musozi naho hari ishyamba ritohagiye.

Imisozi myiza cyane itatse u Rwanda, ikaba iriho amashyamba meza cyane atoshye aho hasi mu kibaya hari ikiyaga kinini cyane cy'amazi y'ubururu mbese ubona ko hari igihu bisa naho hakonje.

Imisozi myiza miremire igaragaza ubwiza bw'u Rwanda. Aho ku musozi umwe hari intebe ndetse n'ameza. Hari n'intebe ya kinyarwanda aho yicayemo umuntu umwe, uri kwitegereza imisozi, akaba afite n'ikayi.

Imisozi myiza cyane itatse u Rwanda irangajwe imbere n'ikiyaga kiri munsi mu kibaya, iyo misozi ikaba ihinzeho ibigori n'urutoki, aho yitegeye ikirunga cya Muhabura.

Imisozi miremire yitegeye ikirunga cya Kalisimbi, ikaba ari imisozi igaragaza ubwiza nyaburanga bw'Amajyaruguru y'u Rwanda, aho hakiriho amashyamba ndetse n'ibihingwa bitandukanye bitanga umusaruro w'ibiribwa.

Imisozi myiza cyane y'u Rwagasabo, ikaba igaragaza ubudasa bw' u Rwanda, aho hari amashyamba meza cyane, arimo ibiti by'inganzamarombo ndetse hakaba n'umusozi uriho amaterasi y'indinganire.

Umusozi mwiza cyane, uriho ibimara bitoshye ndetse hepfo yawo hakaba hari ikibaya kinini cyane kidatuwe ahubwo akaba ari ikibaya gihingwamo imyaka itandukanye.

Imisozi myiza cyane yo mu Rwanda, irangajwe imbere n'imisozi ya Burera, iriho ibiti biza cyane bitoshye ndetse ikaba iriho n'ibindi bihingwa bitandukanye, byiganjemo urutoki ndetse n'ibindi.

Ikiyaga kinini cyane kikaba kirimo ikirwa kimwe ,aho gikikijwe n'imisozi myiza miremire cyane iteyeho ibihingwa bitandukanye ariko hakaba hari n'iteyeho amashyamba. Ni ahantu heza cyane hakuru ba mukerarugendo.

Imisozi myiza cyane, iteyeweho icyayi, indi ikaba iteriyeho amashyamba, irateganye ubona ko ari imirambi myiza cyane, igaragaza ishusho nziza y'u Rwanda, iteyeho ibiti bitandukanye bitanga umwuka abantu bahumeka.

Inkoko nyinshi cyane, zikaba ari inkoko zikiri nto, bisa nk'aho zifite nk'ukwezi cyangwa se amezi abiri, zikaba ziri mu nzu aho zororerwa bisa nk'aho nyirazo atazigabureriye.

Inka nyinshi z'inyambo, zikaba ziri gutambuka mu rupangu rwabugenewe. Hari abantu batandatu, babiri bambaye ibisurubeti by'ubururu, bisa naho aribo borozi bazo ndetse n'abandi bari kuzirebera gusa.

Ingurube y'umukara iteye iherna ikaba iri mu kiraro giteye sima ndetse kikaba kirimo imishariro iryamamo ingurube y'umukara iryamye ikaba yegamye ku gikuta, isa naho nyirayo atayigaburiye.

Inka ebyiri ziri mu kiraro, ni inka ubona ko ziteye neza kuko nyirazo azitaho cyane aba yazisukuriye aho ziba yakuyemo ibishingwe ndetse n'ibindi byose bishobora kuzibuza umudendezo.

Ihene nyinshi cyane zisa umweru. Zikaba ziri gutembera mu kibuga. Iruhande rwaho hakaba hari abantu babiri bisa naho umwe azigurisha undi akaba yaje kuzigura. Hirya yabo hari inzu isakaje amabati, akaba ariyo nzu aya mahene abamo.

Inka nziza z'inyambo zifite amahembe y'akataraboneka, zikaba ziri gutambuka mu gipangu, hari abagabo batanu, babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu na bote, mu gihe abandi ari abaveterineri bari kuzivura.

Amahene menshi cyane ari mu rwuri yiganjemo ari mu ibara ry'umweru aho hirya yayo hari abantu benshi cyane bisa n'aho ari abashumba bayo ndetse bamwe muri bo bakaba baje kugira ngo barebe niba hari ayo bagura.

Inzu nziza cyane akaba ari ikibuti cyororerwamowo inkoko, harimo ikibuti kirimo ibyiciro bine byerekeranye buri cyiciro kikaba kirimo inkoko enye aho zose hamwe ari nkuko cumi n'esheshatu.

Inka nziza cyane y'ijigija iracyari nto, ikaba irimo ikiraro, n'inka y'ikibamba, aho bayishize mu kiraro gishyashya, ubona ko itamenyereye kuko haracyarimo n'ubwatsi itaranyuka, nyirayo yayishyizemo ari igendera, nta byatsi byo kurya yayisigiye.

Iyi ni inka ikaba ari itungo ry'ingirakamaro cyane nk'itungo rirerire. Akaba ari inka nyarwanda iteye iherena ry'umuhondo, ikaba iri mu kiraro ariko yasohoye umutwe hanze iri kurya ubwatsi.

Umuhinzi wabigize umwuga akaba ari umugore wambaye iribaya yiteze n'agatambaro k'umutuku mu mutwe akaba ari kugosora ibishyimbo by'imbuto, kugira ngo ajye kubitera kuko igihe k'ihinga kirarimbanyije.

Umugabo ufite impeke ebyiri harimo ingano ndetse n'ubunyobwa, buri kimwe mu kiganza cyacyo, akaba atanga urugero rw'umusaruro mwiza kuko yitaye ku bihingwa bye neza.

Umugore akaba n'umuhinzi wabigize umwuga, yarabitse imbuto nziza y'ingano, none muri iki gihe cy'imvura, atangiye gutere ingano ze mu murima mwiza yateguye kugira ngo uzabyare umusaruro.

Inzu nini cyane itondetsemo imifuka mitoya irimo imbuto y'ibigori, akaba ari imbuto izahingwa mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka aho bazahinga ibigori ku bwinshi.

Abantu babiri bakaba ari inzobere mu by'ubuzima bw'amatungo umugore n'umugabo, bambaye ibiteteri by'icyatsi, aho bateruye inkoko imwe muri nyinshi ziri aha ngaha, bakaba bari kuyiha umuti.

Abantu babiri bambaye amashati ndetse n'uwambaye agapira k'umukara, bakaba bambaye uturindantoki, aho ari inzobere mu buvuzi bw'amatungo, bari kuvura ingurube bayiryamishije hasi.

Ubworozi bw'inka z'inyambo. Zikaba zihari ku bwinshi ndetse hari n'umuveterineri uri kuzivura. Yambaye uturindantoki ndetse n'isarubeti y'ubururu, aho azitegereje ngo zitambuke azivure.

Amacupa abiri manini ya palasitiki, rimwe ririho igipapuro cy'umweru kiri mu ibara ry'umutuku ndetse irindi rikaba ririho igipapuro kiganjemo umweru cyiriho n'ibara ry'icyatsi, hiriho akandi gacupa gato akaba ari amacupa abamo urukingo rukingira inyamaswadwara zitandukanye.

Inzobere mu byvuze koamatungo, yicaye mu nzu yambayetaba y'umweru, akaba afite ibikoresho bitandukanye akoresha asuzuma ubuziranenge bw'umuti mbere y'uko ajya kuwutera inyamaswa.

Umugabo wambaye imyenda isa n'ubururu ndetse n'undi wambaye isa n'icyatsi bakaba bari ku rupangu rukingirirwamo inka z'Inyambo aho ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Mu nzu ivurirwamo amatungo hakaba harimo abaganga babiri b'inzobere mu buVUzi bw'amatungo, umwe ari kuvu inyamaswa undi umusore arahagaze akaba ari gusoma mu ikaye, mu gihe undi yabitaruye akaba yagiye hirya yabo.

Umugabo akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, yambaye uturindantoki agapfukamunwa agasashe mu mutwe ndetse n'ishati akaba ari kubaga ingurube yagize ikibazo ku kuguru, aho ari kuyivura kugira ngo ikire.

Ku musozi umwe haryamye inyamaswa nyinshi cyane zapfuye. Bisa naho ari ba rushimusi bazirashe. Ziryamye umurambirizo. Aho hirya y'aho hari agashyamba k'ibiti bikiri bito.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibyatsi bigufi ndetse n'ibiti birebire, hakaba harimo inyamaswa nyinshi cyane z'ishya aho zirunze hamwe ziganira.

Inyamaswa z'inkazi z'ishyamba zizwi nk'ingwe twavuga ko zifite ubushobozi bukomeye cyane, hano ingwe yuriye igiti ikaba ihagaze hejuru mu bushorishori ku mashami yacyo.

Mu ishyamba rwagati. Hakaba hari inyamaswa izwi nk'inkende ,ifite ibara ry'umukara. Hejuru mumugongo ikaba ifite ibara ry'igitaka bisa naho yanduye kuko ivuye kwigaragura mu mucanga.

Inyamaswa zitandukanye ni inyamaswa z'inkazi z'imusozi zirimo: intare, agasumbashyamba, impara, imparage, inzovu ndetse n'izindi, zikaba ziri gutambuka mu busitani zitari kwenderezanya.

Inyamanswa y'inkazi y'imusozi ikaba yitwa ingwe aho iri gutembera mu murima, mu murima ntabwo harimo ibyatsi birebire cyane ahubwo harimo umucaca.

Inyamaswa ifite amabara y'umweru, akaba ifite n'amabara y'umukara y'imirongo. Ni inyamaswa y'ishyamba, akaba ari inyamaswa y'inkazi, itinyitse cyane bakunda kwita zebura.

Inyamaswa y'imusozi, ikaba ari inyamaswa itinyitse cyane imeze nk'imbwa, ikaba iri gutembera mu mazi kugira ngo irebe ko yasangamo amafi ikayarya.

Inyamaswa eshatu, harimo imwe nkuru ndetse n'indi ntoya, akandi gato cyane kakaba karyamye, inyamaswa z'ingwe, zikaba ari inyamaswa z'inkazi z'imisozi, aho zituje cyane ziryamye bisa n'aho zimaze guhaga.

Inyamaswa zitandukanye z'imusozi harimo izitwa zebura, hakaba udusumbashyamba hakaba n'ishya, aho ziri gutembera mu mashyamba zidashyamirana, kuko zinezerewe cyane zikaba zaje kota akazuba.